Inzu y'amagorofa isize irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari amazi menshi arimo ibyatsi ku ruhande. Impande y'ayo mazi, hari akayira k'abanyamaguru karimo umuntu uri gutambuka. Ayo mazi ari ahantu hari ikirere cyiza, impande y'inzira iri gutambukamo umuntu, hari ibyatsi bikiri bito bitari byakura.